Abana benshi bicaye ku mukeka ku murongo, imbere yabo hari umumama urimo kubaganiriza ariko akana kamwe kahagaze.

Ishuri rigaragaramo abanyeshuri ndetse mwarimu wabo w'umugore ari imbere yabo, hagaragaramo imeza iteretseho ikigega gishyiramo amazi asukuwe yo kunywa.

Abana bicaye bafite ibitabo mu ntoki zabo bahawe, ndetse hari n'umuntu ubahagaze imbere umeze nk'umwarimu urimo kubigisha. Aba bana bicaye ku kumukeka, uwo mukeka ukaba urambitse mu busitani. Bugaragara ko buri mu mudugudu runaka kuko harimo n'amazu ndetse n'umuhanda.

Ibiro by'abarimu birimo ameza menshi ateretseho impapuro ndetse n'ibitabo, harimo n'akabati karimo izo mpapuro n'ibitabo.

Abanyeshuri bari mu ishuri bicaye ku ntebe za pipitire, bose bafite utumashini imbere yabo barimo barakanda, inzugi z'ishuri ryabo zisize irange ry'icyatsi.

Abanyeshuri bambaye kaki ndetse na copton, bicaye mu ishuri bazanye amazi mu tubido mu ishuri.

Ishuri ryiza, muri iryo shuri hamanitsemo ibishushanyo bibiri, ibyo bishushanyo bishushanyijeho intoki zerekana inyuguti ari byo twita alphabet.

Abana bicaye mu byatsi, bicaye mu buryo bw'akazeru, wagira ngo ni ku mugoroba, bose bafite ibitabo bameze nkaho barimo barasoma. Inyuma yabo hari amabuye ndetse bahateretse n'igikapu.

Ikigo cy'amashuri kigaragara nk'ikiri mu cyaro kuko gikikijwe n'imirima iteyemo ibintu bitandukanye, harimo nk'insina ndetse n'ibindi, abanyeshuri barimo barataha baca mu muhanda w'ibitaka ariko uyu muhanda waretsemo amazi, ndetse n'imodoka zahamennye umucanga ndetse n'amabuye.

Ikigo cy'amashuri, ariko amashuri yabo ameze nkashaje, abanyeshuri bamwe bari mu kibuga, abandi bari kwinjira mu ishuri.

Ikigo cy'amashuri cyubakishije amatafari ahiye, inzugi zaho n'amadirishya bisize irangi ry'umweru, imbere y'ayo mashuri hari ibiti birebire ndetse hari na pasiparume n'indabo zihateye.

Ikigo cy'amashuri ariko abanyeshuri bari hanze ntabwo bari mu ishuri, hari n'abarimu bambaye amataburiya y'umweru ndetse bafite n'ikibuga cya pasiparume n'izindi ndabo.

Abanyeshuri bake bicaye mu ishuri, bafite utumashini twa mudasobwa duto, hari n'umwarimu umeze nk'aho arimo kuberekera ibyo bakora.

Ikigo cy'amashuri gusa ntabwo kigaragara cyose kuko haragaragara agace gato k'ishuri rimwe ndetse n'ubwiherero bwabo n'ikibuga gitoya, imbere y'ubwihoro ndetse n'ishuri, inyuma y'amashuri hari ibihingwa bitandukanye harimo nk'insina ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ikigo cy'amashuri cya kijyambere cyubatswe mu buryo bugezeho bugeretse ari bwo bwitwa etage.

Ikigo cy'amashuri cy'ababikira, kiri impande y'umuhanda wa kaburimbo, impande y'icyo kigo hafasheho icyapa cya Skol.

Abanyeshuri benshi cyane cyane b'abakobwa ni bo bari inyuma bameze nk'abari kujya ku ishuri cyangwa bari gutaha, bose bafite ibikapu byo gutwaramo amakayi.

Ikigo cy'abanyeshuri, ariko abanyeshuri ntabwo bari mu ishuri bari hanze. Mu kibuga cy'iryo shuri hagati harimo idarapo ry'u Rwanda, kandi iryo shuri rikikijwe n'imisozi.

Abanyeshuri bane b'abakobwa, n'umwe w'umuhungu, mwarimu yahaye ingwa bose ngo bajye ku kibaho, gukora ikibazo, kigaragara nk'aho ari ikibazo cy'imibare.

Amarembo magari y'ikigo cy amashuri cya G.S Notre Dame de la Paix Cyanika, hagaragara ibiranga icyo kigo.

Korali y'abanyeshuri bambaye inifomo, barimo bararirimba mu kigo cy'amashuri. Imbere yabo hari bafure zibateretse imbere ndetse n'umukeka, barimo bararirimbira mu kibuga cy'umupira wa basikete.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri, mwarimu wabo arahari, ni ikigo cy'amashuri kuko inyuma y'aho urebeye mu idirishya, urabona y'uko hubatse n'ayandi mashuri, ndetse iri shuri ryabo ririmo n'amarido, amadirishya y'aho asize amarange y'icyatsi.

Ikibaho cy'umukara cyanditsweho n'igwa y'umweru ibibazo bigera kuri bitatu, ibyo bibazo bimeze nk'aho ari isuzuma abanyeshuri bagiye gukora.

Abantu babiri bagaragara nk'umubyeyi n'umwana bahagaze ku marembo magari y'ikigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire cya Kigeme be ndetse amashuri ari imbere winjiye uciye kuri ayo marembo magari.

Amarembo afunguye yerekana inzira ijya ahantu nko mu nzu cyangwa muri resitora, ndetse hari n'utubingaro.

Abagore n'abagabo bari muri sale, bicaye bameze nk'abari mu mahugurwa kuko imbere yabo hari umuntu uhahagaze, umeze nk'aho abayoboye.

Raboratwari irimo ibikoresho bitandukanye bigaragara harimo nka ravabo, utubati, ndetse n'ibindi bikoresho bikenerwa muri raboratwari iyo bari gukora experiment.

Inyubako ngari yubatse ahantu hagaragara nko mu ishyamba kuko hari ibiti byinshi ndetse imbere y'iyo nyubako hari n'umucanga biragaragara yuko izuba ririmo rirava.

Ikibuga kigari kigabanijemo ibice bigaragara nkaho ari bibiri, kimwe kigizwe n'amapave ikindi kigizwe na pasparume ndetse n'ibiti binini birebire, harimo intebe yicayeho abantu.

Icyumba kirimo akabati, akabati kagabanyijemo utwumba nka dutanu, utwo twumba duteretsemo inkweto zifunze, hejuru y'akabati hateretseho utubido dutatu, impande y'utwo tubido hari akandi kantu gateretsemo korogate n'uburoso, biragaragara y'uko iyi ngiyi ari geto.